Abagore batatu bose bari mu murima w'ikawa bateze ibitambaro n'amataburiya ari mu ibara ry'ubururu, bafite utudobo tw'umweru mu ntoki bari kugenda basarurara ikawa.

Inkoko nyinshi ziri mu cyumba kimwe, hasi hari ibyorya byazo ibumoso hari akabati gakoze mu mbahoho, inyuma hanze hari ikigega, cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo.

Umugore wunamye uteze igitambaro mu mutwe, akenyeye igitenge, yambaye agapira k'amaboko magufi karimo umutuku n'umweru, ari kwanika ibigori kuri shitingi hirya ye hari urugo ruri mu biti.